Amafi ajyohaga cane, ku isoko garakungwa cane n'abantu benshi kubera ubujyohe bwayo, gari ku ngoko uko ari abiri yose, ngaho bagiye kuja kuyagurisha cangwa se kuyateka.

Umurima gwasaruwemo ibigori mu gwego go gukora ifumbire y'imborera, batemagura ibigorigori bagenda babijyamisha mu murima kugira ngo bizatange ifumbire.

Igihingwa co mu bwoko bw'imboga kijyohaga cane, kizwi nk'umwungu abenshi baja barawita "mira wumigwe", ukunze kugira amazi menshi bitewe n'ubwoko bwawo, cangwa se aho wahinzwe, bamwe ukaba wabaryoheraga cangwa se abandi ukababihiraga.

Umuhinzi w'ibigori anejejwe n'umusaruro mwiza akuye mu bigori bye, ku gwo guhinga neza akoresheje ifumbire, yashyizemo intera hagati y'ibigori ndetse agahinga ku murongo ku buryo abasha gushyiramo ifumbire ikwiriye igihingwa.

Umusaruro w'ingano wanitswe ku shitingi bigaragara ko bari kuwutunganya, bawukosora bawukuragamo imyanda nk'ibyatsi n'ibindi ngabyo kizwi nko kugosora.

Abahinzi bahingaga ibirayi, bari mu murima yabo y'ibirayi banezewe cane n'uburyo basanze ibirayi byabo byareze, byareze neza biriho ibirayi binini, bose bashimishijwe nabyo baseka cyane.

Ikusanyirizo ry'imyaka ikusanyirizwaho imyaka yejejwe n'abaturage, aho umubyeyi yicaye ari kujonjoraga ibishimbo, atoragamo amabuye n'ibindi bitari ibyo kubikwa hamwe n'ibishimbo.

Ibishimbo bijyohaga cyane by'umushingiriro bitukura biri mu mufuka munini w'umweru, bigaragara ko ari bikeya, ni nk'ibiro hagati y'icumi na cumi na bitanu.

Imbuto y'imyungu bakunze kwita mirawumigwe izi zizwi nk'inzuzi ;ziri aho zatoranyirijwe kugira ngo zibashe kumuka neza ziveho aga mazi gose.

Umugabo ukuze n'umukobwa ukiri muto, ni aborozi b'ingurube za kijambere, babigize umwuga. Bari ku biraro bazororeraga mo ,babonye ubujyo ari nziza baranezerwa cane. Ikimenyetso c'uko uwo mukobwa akunda umwuga we, ateruye ikibwana cazo.

Abana b'imyaka hagati y'icumi na cumi n'itanu baturutse hirya no hino buri wese n'imbwa ye bari kuja baratonda umurongo bisa nk'aho baje muri gahunda yo gukingiza imbwa ku Murenge.

Abana babiri umukuru n'umuto, kamwe ni agakobwa akandi ni agahungu, umukuru afite nk'imyaka hagati y'icumi na cumi nitatu, naho umuto hagati y'itanu n'irindwi. Bavuye kuragira ihene mu mvura nyinshi mu shamba.

Aborozi b'intama bahuriye mu soko baje kugurisha amatungo yabo ubwo ni intama, babaha amafaranga gatubutse ndetse bigaragara ko bishimye ga cane.

Umworozi cyangwa se ushinzwe kwita ku matungo abazwi nka Veterineri ari kwita ku nga ayitera intanga, mu rwego wo kuyifasha kororoka.

Umworozi w'ingurube wororeraga mu biraro, arimo kugaburira ingurube ziwe uko are enye mu nzu imwe, no mu zindi nzu zazo hagiye harimo izindi zitegereje ko azigaburira.

Inyamaswa nini cane izwi nk'inzovu cangwase gwarikamavubi irimo ishamba rinini igaragara nka pariki ishinzwe kororegwagamo inyamaswa z'agasozi

Inyamaswa z'amoko atandukanye ziri muri Parike y'umukenke, ishobore kuba yaba nk'Akagera harimo inyamaswa zo bita Impala, Imparage izo bita Antilope n'izindi.

Igikoko co mu bwoko bw'inyoni cangwa se ibiguruka mu bwoko bw'ikiyoni cangwa se ukakita sakabaka, ihagaze gitekanye mu bwatsi nkititeguye kuguruka.